Ishuri ry'ikiburamwaka ni ryiza hari n'intebe ameza y'umuzenguruko hicayemo umwana, hirya ye hari undi uhagaze, ni byiza gutangiza umwana akiri mutoya biramutinyuka.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke, bahagaze ku kibuga n'abarimu babo, ni byiza kujyana abana bakiri batoya, baratinyuka, bakajya basubiramo ibyo mwarimu abigisha, ni byiza cyane.

Abana b'incuke biga mu ishuri ry'irerero, bari hanze ku kibuga bakoze uruziga, hagati yabo harimo ababarera, bari gukina umukino witwa mabigibigi, bishimye, byabanejeje cyane.

Abana bato bo mu irerero bari hanze bakoze uruziga bafatanye mu maboko, hagati hari umukecuru wabasigaranye, ni byiza kubakusanyiriza hamwe hakagira ubarera, ababyeyi babo bava ku kazi nta mpungenge bafite kuko hari icyo babaye.

Ishuri ry'incuke abana baricaye, barambuye umusambi hasi babashyiriyeho ibikinisho bitandukanye, ni byiza kubaha imfashanyigisho, bibakangura mu mutwe bigatuma batinyuka.

Abana bato bajyana mu irerero bicaye ku mukeka bari kumwe n'ababarera babashyiriye ibikinisho bya'amabara atandukanye imbere yabo, ni byiza kubajyana kubera ko bamenya kuvuga no gutinyuka.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe abanyeshuri bicayeho ku muzenguruko, imbere yabo hari ameza bamwe baryamyeho, abandi bashyizeho amaboko, inyuma yabo hari ikibaho umwarimu yifashisha yigisha abana.

Irerero ry'abana batoya, bicaye ku mukeka imbere yabo hari ubarera, ni byiza kubajyana bituma batinyuka, bakamenya kuvuga ndetse no kugenda.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bicaye ku muzenguruko barebana, imbere yabo hari ameza asize ibara ry'icyatsi kibisi, babahaye ibikoresho by'ifashanyigisho, bari kubyitegereza, kugira ngo bamenye isomo bari kubigisha.

Icyumba kiza cyane kirimo abana bicaye bari kwiga, umwarimu arahagaze ari kureba hirya, kirakeye, ama etajeri apanzemo ibitabo by'imfashanyigisho, na bo bicaye ku muzenguruko bari kwiga.

Ishuri ry'abana b'incuke, harimo intebe bicayeho, ameza imbere yabo, bose bari kureba mu cyerekezo kimwe, bategereje kumva icyo mwarimu ababwira.

Ishuri ry'abana b'inshuke, ririmo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza, imfashanyigisho, ikibaho bandikaho, ni byiza kujyana umwana akiri mutoya, arushaho kumva ndetse akumvira.

Abana bo mu kiburamwaka baricaye, imbere yabo hari ameza, babahaye ibintu bitandukanye, bari kubiteranya bagakuramo ikintu gifite ishusho, niko kubigisha neza.

Icyumba cy'ishuri kirimo ikibaho cy'umukara, abana bicaye ku muzenguruko, imbere yabo hari ameza asize irangi ritukura, hariho imfashanyigisho, umwe aricaye arayifite abandi bari kumureba.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu heza, kirakomeye abana bicaye mu kibuga bari gukina umukino witwa agatambaro k'umwana kari hehe, ni byiza biruhura mu mutwe w'abana.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza asize irangi ritukura, bafite imfashanyigisho mu ntoki y'ubururu, umwe ari gukora ibyo mwarimu yaberetse.

Ikigo cy'amashuri abanza, hubatseho ikigega gifata amazi, ni meza kuko bayifashisha bakora amasuku, bakoropa mu nzu bakayakaraba, abana nabo bakayoga.

Ibyumba bibiri by'amashuri, byubatse neza, ni binini, biteretse ahantu hakwiriye kugira ngo abana bajye biga nta kibahutaza, nta rusaku.

Ikigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye, abanyeshuri bageze hepfo yacyo bataha bambaye iniforume zibaranga, hepfo yabo hari ikindi kibanza bagiye kubakamo.

Icyumba cy'ishuri harimo intebe, ikibaho ni cyiza baracyifashisha iyo mwarimu ari kwandika ibyo abana bashyira mu makayi batahana mu rugo kugira ngo bajye babisubiramo barusheho kubicengera mu mitwe yabo.

Ikigo cy'amashuri abanza gisakaje amabati y'ubururu, imbere yacyo cyahinze imboga z'amoko atandukanye kugira ngo nikijya kijya kugaburira abana bashyiremo imboga abana bagire imikurire myiza.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba byinshi abana bigiramo, ni kinini imvura yaguye ku kibuga cyaho itosa ubutaka, iyo iguye ku kigero cyiza yeza imyaka tukabona umusaruro ushimishije bityo abantu ntibicwe n'inzara.

igikuta cy'inzu yubakishije amatafari ahiye hegetseho ikibaho cya tiripurexi hariho imibare yanditse mu rurimi rw'igifaransa kuva kuri makumyabiri na rimwe kugera kuri mirongo itatu ni byiza kumenya indimi zose.

Mose amanukanye ategeko cumi n'abiri ku musozi wa Sinayi nk'uko Imana yari iyamuhaye, ngo ayazaniye mu Bisiraheli kugira ngo bajye bayakurikiza ndetse n'abantu bose Imana yaremye, bajye bagendera kuri ayo mategeko.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane, gisakajwe amategura, hari inzu y'umuzamu, iri hejuru, ni byiza ko bayubaka irengeye kugira ngo ajye areba hose mu kigo, aho abanyeshuri basohokera.

Ikibaho iyo kiri mu ishuri ni imfashanyigisho ikomeye cyane, iyo bari gutanga amasomo bandikaho bagenda basobanurira umunyeshuri akarushaho kubyumva.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere hari ameza harimo machine, ni byiza gukora imirimo yose ku ikoranabuhanga, turayikora ikarangira vuba, n'iyo dushatse kubibikamo turagaruka tukabihasanga nta kibazo.

Ikigega cy'umukara cya roto ni ingirakamaro mu kubika amazi, aturutse hejuru cyangwa se azamuka mu matiyo, kimaramo iminsi, nta cyo aba, usanga ameze neza.

Abanyeshuri bicaye ku muzenguruko mu kibuga kirimo ibyatsi, mwarimu yambaye umupira w'umuhondo afite imfashanyigisho, abanyeshuri bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika.

Igikuta cyubatse gitangijwe n'amabuye hariho amarangi inyuguti zitandukanye nizo baheraho bigisha abana gusoma no kwandika imibare ni ukuva kuri zeru kugera ku icyenda hepfo hari pasiparumu.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye. Irakomeye, ifite imiryango ikinguye ya metalike, isize amabara y'umweru. Harimo na giriyage imbere ku birahure kugira ngo abajura, batazamena ibirahuri bakinjiramo.

Ibikoresho bikoze muri parasitike ni byiza, birahendutse, ibase tuyikarabiramo, tukayifuriramo, tugakoreramo n'ibindi bintu, agatebo bashyiramo imyanda, iyo byanduye ntibitugora kubisukura.

Icyumba k'ishuri kirimo imfashanyigisho bometse ku gikuta harimo abantu n'ibice bibagize bagiye bandikaho amagambo atandukanye. Ni byiza iyo umwarimu yigisha afite icyo yereka abana cy'urugero barushaho kubifata neza.

Ibyumba byinshi by'amashuri abanza, byubakishije amatafari ahiye, imiryango yabyo imwe n'imwe irakinguye, abanyeshuri bari hanze, hahagaze abarimu bambaye amataburiya y'imyeru.

Inyubako nini cyane kandi ndende igizwe n'imiryango myinshi, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amategura bayakora mu ibumba, arakomera nta muyaga upfa gusakambura aho bayasakaje, ni meza, haruguru yayo hari abantu bane bari kugenda.

Amashuri meza aba afite ibyumba binini byagutse, hakajyamo intebe zihagije, hakicara n'abana bakisanzura ntihaze ubushyuhe ngo bubabangamire babure uko biga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye ku ntebe ebyiri zirebana, hagati yabo hari igitabo, bose bubitsemo imitwe bashaka kurebamo ibyo bari gusoma.

Ikigo cy'amashuri gifite ikigega cy'umukara gifata amazi y'imvura aturutse ku mazu, hari umugezi bakarabiramo iyo bagiye kurya, kunywa ntibicwe n'inyota abana bakiga neza.

Abanyeshuri bicaye hasi mu ishuri, bose bararambije abakobwa n'abahungu, mwarimu arahagaze, imbere ye hari mugenzi wabo, afite igitabo ari kubasomera.

Abanyeshuri bavuye ku ishuri bambaye iniforume bageze mu rugo babahaye ibyo kurya, umwe afite isahane iriho umuceri, imboga ntaziri kugaragaraho, baricaye abandi bahetse marete barategereje.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri bavuye guterura mu gikoni ibiryo biri ku kabase gatoya, bagiye gutangira gufungura, ni byiza kuba barashyizeho igihe cyo kugaburira abanyeshuri ku ishuri, baricara bagakurikira amasomo ntawe uri gusinzira.

Inzu ebyiri ziteganye zifite imbuga nini cyane, imwe izengurutswe n'amatafari ahiye, iyindi ifite amabati y'ubururu, hepfo hateye insina, ni igihingwa ngandurarugo gikundwa n'abantu benshi.

Icyumba cy'ishuri bigishirizamo harimo ikibaho kiriho impapuro z'umweru zandikishijeho ikaramu y'igiti, imibare kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu, hirya y'aho hari igipapuro cyanditseho amabara atandukanye by'abana bareberaho biga.

Abanyeshuri bari kuzamuka berekeza ku kigo bigaho, abatoya, abakuru, bose bari kugendana, ni byiza gushyira abana mu ishuri, urubyiruko rwacu ni yo maboko y'ejo hazaza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano hejuru bambaye uburururu, hasi bambaye kake bahetse amakaye yabo, bazindutse bagiye ku ishuri bahagaze mu kibuga, ni byiza ko umwana agerara ku ishuri ku gihe.

Umugabo uri kugenda n'amaguru, ni umyitozo ngororamubiri, bituma imitsi irambuka amaraso agatembera neza, haruguru ye hari inyubako isakaje amategura, arakomeye, araramba.

Ishuri aba bana bigiramo harimo ikibaho, igipapuro kiriho imfashanyigisho, intebe zifatanye n'ameza, ni rinini, hacanyemo n'amatara.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, hagati yabo hari ameza arambuyeho ibitabo bari gusoma, abahungu bicaye mu ruhande rwabo n'abakobwa mu rwabo ruhande.

Ikibaho bashushanyijeho umuntu, bashyiraho ibice bigize umubiri, ni imfashanyigisho nziza, kuko iyo bari kwandikaho n'ingwa, bagasobanura, umwana arushaho kubyumva no kubicengeza mu mutwe.

NI abanyeshuri bambaye impuzankano, hasi ni kake, hejuru ni buresiyeri, bahetse ibikapu birimo amakaye yabo bidoze mu mwenda, bodaboda ni zo bambaye, bahagaze mu muryango ukinguye.

Amashuri abanza arubatse, ni manini mu madirishya hari ibirahure, asakaje amabati y'ubururu hamwe na hamwe, hirya hari igikoni batekeramo ibiryo bagaburira abana saa sita.

Icyumba kimanitsemo imfashanyigisho, hashushanyijeho ibice bigize mashine, ni byiza iyo umwarimu ari kwigisha ikoranabuhanga abana bareba ibice biyigize, ni byiza barushaho kubifata mu mutwe no kubicengeza.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye harimo ibirahure bisizeho irange ry'umuhondo, imiryango y'icyatsi kibisi arakomeye, hepfo yaho hari abanyeshuri bahagaze mu nzira bari kureba mu kindi kibuga bari kubaka.

Iyo bubaka umuhanda wa kaburimbo n'uw'ibinyabiziga, bashyiraho inzira y'abanyamaguru ku ruhande kugira ngo bakumire impanuka za buri munsi zihohotera abantu.

Abanyeshuri bahagaze imbere y'amarembo y'ikigo bigaho, bamwe ni bakuru, abatoya, bambaye iniforume zitandukanye, barahagaze bari kwitegereza, bateye umugongo ikigo cyabo.

Inyubako nini cyane yubatse neza ifite isuku, umuhanda ujyayo ushashemo amapave, harakubuye ibiti bihateye bigaragara neza jaride irakoze ni heza.

Icyumba cy'ishuri harimo ikibaho cyanditseho imyitozo, amasomo atandukanye bakoresheje ingwa z'amabara, mu bana babishyire mu makaye bajye babisubiramo bageze mu rugo.

Menta arahagaze afite ikayi irimo amazina y'abana bari mu mushinga, imbere ye hari ibikoresho bagiye kubaha, ni byiza kuba habaho bene ibyo bikorwa byo gufasha abana batishoboye kugira ngo babone ibikoresho byo kwigana.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye abanyeshuri barasohotse mu ishuri bageze ku kibuga, abakobwa, abahungu, hasi bambaye kake, hejuru umweru, amakaruvati y'ubururu, bari kugenda bose, ntabwo bari kwerekeza mu cyerekezo kimwe.

Ikigo cy'amashuri, imbere yaho ku kibuga hicaye abantu benshi, abandi barimo barakina bambaye ubururu n'umukara hasi, ni byiza imyitozo ngororamubiri ifasha imitsi yacu gutembereza amaraso nta kibazo kibayemo.

Abanyeshuri bahagaze ku musitari munsi y'igiti, bambaye impuzankano hasi ni kake, hejuru n'umweru, bahagaze iruhande rw'ababyeyi babo, bari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Ihuriro ry'abantu benshi, bambaye amataburiya y'imyeru, umwe afite umwirongi w'umuhondo, abandi bari kuririmba, bahuriye mu gikorwa kimwe, banezerewe, barishimye, bahuje umutima.

Ikigo cyamashuri, cyubatse neza, gifite ibyumba byinshi, abanyeshuri bafite aho bugama izuba ku ibaraza cyangwa se imvura mu gihe bari mu gihe cy'ikiruhuko, gisakaje amabati atukura.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite ibaraza rirengaho, iyo abantu bahanyuze imvura iri kugwa ntibanyagirwa, hepfo bahateye ibiti kugira ngo nibikura abantu bajye bugamamo izuba.

Amashuri abanza yubatse neza, hariho ibara ry'ubururu ku nzugi n'amadirishya, umuryango wa kabiri hari umunyeshuri, uwa kane hahagaze umwarimu, imbere hateye indabyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye mu cyumba bakoreramo ibizami, buri wese ari kureba ku rupapuro rwe kugira ngo agire vuba, amasaha babahaye yo kurangiza nawe abe yasoje.

Ibyapa ni byiza kubishinga ku mihanda cyangwa se kuzindi nzira, umuntu iyo abigezeho arasoma akamenya aho ageze aho ari ho, niba yayobye cyangwa se ari mu nzira agana aho yerekeza.

Ikigo cy'amashuri cyubatse kirakomeye; amatafari ahiye, imbere hahagaze umwarimu, abanyeshuri, hakurya yaho hari umusozi uririmo ishyamba n'ibihingwa biteyeho bigaragara neza.

Ikibuga cy'umupira kiriho abasore n'abagabo batandukanye, abambaye imipira y'ubururu, amakabutura y'umweru, bari gukina umupira, imyitozo ngororamubiri ni myiza ituma umubiri wacu ukora neza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bamwe bari kwandika, abandi bari kureba imbere mwarimu arahahagaze, inyuma ye hari ikibaho cy'umukara ni imfashanyigisho nziza, kuko akifashisha abasobanurira kugira ngo bacengerwe n'amasomo bumvise.

Amashuri meza inyuma hicaye abantu bari ku ntebe, ikibuga cy'umupira harimo abakinnyi babiri, haruguru hari abagabo bifashe mu mutwe bari kurebana.

Ikibaho cy'umukara, cyandikishijeho ingwa y'umweru, imibare yo mu Cyongereza. Akaboko kari kugenda gakora kuri buri mubare, gasobanura, uwo ari kwigisha kugira ngo abifate neza.

Ikigo cy'amashuri gifite igisenge cy'umukara ahandi ni umutuku, imbere yaho hari ikibuga bakinaraho basket ni cyiza, iyo bakoze imyitozo ngororamubiri bituma bakura neza.

Inyubako eshatu zikurikiranye nziza zubatse ku buryo bukomeye, zisakaje amabati y'ubururu, muri jaride hari Ibendera rihazamuye ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri bari kuva ku ishuri bajya mu biruhuko, babatoranyirije imodoka yabo yihariye, baba batwaye ibintu byinshi nta kintu na kimwe baba bagomba gusiga ku mashuri, umwaka uba urangiye.

Inzu yubatse neza igereretse rimwe ni ikigo nderabuzima, gifite ubusitani imbere ni bwiza, hirya yabwo hari inzira itwikiriye, cyakira abantu bose baje bakigana.

Imihanda ni ibikorwa remezo byiza igihugu cyacu kiba cyagezeho, hacamo ibinyabiziga bitandukanye, ibitwara abantu, ibyikoreye imizigo, abantu bakanyuramo, ni byiza kuko ari ingirakamaro.

Abakobwa b'abanyeshuri bahagaze, inyuma hari ikigo cy'amashuri basohotsemo, imbere hari umuhanda wa kaburimbo ni ibikorwa remezo Leta yagezeho, hanyuramo ibinyabiziga, abantu bagenda n'amaguru, ni byiza ko tuwufata neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano; hasi ubururu, hejuru umweru bicaye mu kibuga, barasa neza, barangana, imbere yaho, hari umwarimu w'umugore, ufite idangururamajwi, uri kubabwira amategeko n'amabwiriza abagenga, ni amaboko y'igihugu cyacu cyejo hazaza.

Ikigo cy'amashuri ni cyiza cyane, cyubakishijwe n'amatafari ahiye, abanyeshuri bahagaze inyuma ku madirishya ku meza y'intebe bicaraho, bari guhanagura ibirahure kugira ngo hase neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye ku meza bari gufata ifunguro, amasahani bari kuriraho ni parasitike, amafurusheti, hariho umuceri, amashu, ibishyimbo, ibyo ni ingenzi.

Ikigo cy'amashuri kigaragara inyuma, hari amarangi y'umuhondo n'ibishushanyo byerekana ibikorerwamo aho ngaho, icyapa kiriho amagambo yanditseho asobanura indangagaciro zabo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo hari ameza, bicaye ku muzenguruko, ni byiza kuko buri wese aba ari kureba mugenzi we ibyo ari gukora n'ibyo ari kuvuga akamwitaho.

Ishuri rinini cyane ryigisha umwuga wo kudoda, harimo amamashini menshi anyuranye, iyo barangije bahita bashobora kwiteza imbere mu gihe gito cyane, inzozi zabo zikaba impamo.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe bari kureba imbere, hagati y'ibihande byombi hahagaze abantu bagaragara ko atari abanyeshuri, kuko batambaye impuzankano.

Abakinnyi bambaye imyenda y'imikara, harimo n'uwambaye umuhondo, birundiye hamwe, bahagaze mu kibuga, abandi bari ku ruhande, bari kubareba batandukanye, gukina imikino ngororamubiri ni byiza.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cyubakishijwe amatafari ahiye, ku marembo yacyo hari porotaye nziza cyane, hejuru hari icyapa cyanditseho ngo koreje sentija Nyarusange. Ni byiza gushyiraho ikirango cy'ikigo, uhageze ntabwo ahayoba ahita ahamenya.

Isahani iriho umutsima w'ibigori ni mwiza, uraryoha, urakomera, ukundwa n'abantu benshi aho bateraniye ari abanyeshuri barabibagaburira biratubuka.

Abanyeshuri bambaye neza, batebeje amashati y'imyeru, amakaruvati barayafite, bari gufata ifoto y'urwibutso, bari kumwe n'ababyeyi, inyuma y'ikigo bigaho basa neza.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba k'ishuri imbere, imbere yabo hari ameza, harimo mashini, ni byiza kubigisha ikoranabuhanga bakarimenya, bakora ibintu byinshi mu gihe gitoya, wabibikamo ukazagaruka ukabisanga.

Icyumba kinini cyane cy'abarimu. Buri mwanya harimo intebe ya buri wese aho yicara. Hari ameza manini ariho ibitabo. Amaboko arigukosora impapuro n'ikaramu itukura.

Abanyeshuri bavuye ku ishuri, bari kugenda mu muhanda. Hasi bambaye umukara hejuru ni umweru. Uru ni urubyiruko ni amaboko y'igihugu cyacu cy'ejo hazaza, ni bo bazagikora neza.

Ameza ateretseho amabase y'amabara atandukanye, harimo umutsima bakuye mu ifu y'ibigori byumye, ni byiza, biraryoha, bitera imbaraga, abantu benshi barabikunda.

Icyumba cy'amashuri. abana, bicayemo. Imbere yabo harimachine. Iruhande hari amakaramu, n'amakayi, bari kwandikamo ibyo bari kureba. Bakora byinshi, mu gihe gitoya. Kandi iyo babitsemo, iyo bagarutse kubireba barabibona.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri, barahagaze abandi baricaye, hari abari gusobanurirana ku kibaho, ni byiza ko abana bagomba kwiga bifashishije imfashanyigisho, ikibaho basobanurirana niho barushaho kubyumva.

Abanyeshuri b'amashuri yisumbuye, bahagaze ku mistari, bambaye amashati y'imyeru abandi bageretseho imipira y'ubururu y'imbeho, hasi bambaye kake, imbere yabo hari umwarimu uhagaze wambaye umupira utukura.

Inzu yubatsemo urukarabiro rurimo amazi. Ni meza tuyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukora amasuku. Koga, gufura, koza ibyombo, kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Inzu y'isomero harimo ameza, intebe, ibitabo biri muri etajeri bipanze neza ku buryo bunyuze amaso, abana bajyamo bakihugura ndetse n'abantu bakuru ntibibagirwe amateka.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye abagore, abagabo, bahuriye mu gikorwa kimwe baratuje, barahagaze, imbere yabo hari undi muntu ubayoboye na we ari kubareba, ku ruhande hari undi uhahagaze wambaye imyenda y'umukara.

Icyumba cyo kuraramo harimo ibitanda bibiri bishashe neza, icy'abakuru n'icy'umwana, imisego, akabati gateretseho utujekani, hejuru harimo inkweto z'umwana mutoya.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe za palasitike n'ameza amwe n'amwe hagiye hateretseho ibyo kurya, abantu babiri bagana haruguru bambaye imyenda y'umukara, umwe ari kurya, undi ari kunywa barimo bari kuganira.

Ikibuga bakoreramo imyitozo ngororamubiri, ni byiza, ni ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, imitsi irarambuka, amaraso agatembera neza, umuntu ntasaze vuba uko yiboneye.

Amashuri yisumbuye ageretse rimwe, afite igisenge gisakajwe n'amabati atukura, imbere yaho hari jaride itandukanijwe n'imihanda inyuranamo igaragara neza cyane.

Abantu bize guteka, bari mu gikoni, aho bakorera umurimo bigiye, baba bambaye imyenda yabugenewe bapfutse mu mutwe, kugira ngo imisatsi idahungukira mu mafunguro bari gutegura.

Inzu yuzuye, bayubatse neza isize amarangi, harimo ibikoresho ameza, intebe, hasi harimo amakaro, yakorewe amasuku, irakomeye, ni nziza.

Inzu yubatse neza nini, harimo icyumba kigari k'ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, intebe, ameza apanze ku muzenguruko, kuko bigaragara ko hakorerwamo inama.

Umugabo muremure munini yambaye ikote ry'ubururu, hariho ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda, arahagaze ari kwitegereza imbere ye hari ameza ariho ibyuma byinshi bitandukanye bigaragara ko ari mu butabire.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'amahugurwa baratandukanye abagore, abagabo imbere yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo, ubasobanurira ahagaze iruhande rwaho, bari kumureba bumva icyo ababwira.

Inyubako nziza cyane igezweho iruzuye, isize amarange, ibirahure birimo, hanze hari jaride ishinzemwo itara, harakeye, hasa neza, haryoheye amaso kuhareba.

Imodoka ni nziza cyane kuko ifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi bw'ingendo, mu gutwara imizigo, kujyana abantu kwa muganga, iyo uyifite ugiye ku kazi ugerayo ku gihe ntukererwe.

Icyumba cy'isomero harimo utubati twiza cyane, ibitabo bipanze neza amabara atandukanye, hasi hari amakaro, haratuje, hasa neza, harakeye, ugiyemo wese abona ko harimo isuku.

Icyumba cy'inama kinini cyane, kirimo abantu batandukanye bambaye neza, hasi harimo amakaro, imbere hari ameza, abantu bahagaze inyuma yayo, nibo bayoboye inama.

Ibiti ni byiza ni ingirakamaro, aho biteye imizi iracengera igafata ubutaka. Iyo bikuze bavanamo imbaho, ibikoresho byo mu rugo byose ni ho bikomoka abantu bakoresha.

Inzu yubakiwe amacumbi; ni nziza, irakomeye. Icyumba kimwe cyayo harimo ibitanda bibiri n'aho kubika imyenda. Iyo abagenzi bubiriyeho ntabwo bahangayika ngo babura aho kurara.

Amashuri yubatse ku buryo bugezweho bw'iterambere, asakajwe amabati y'umutuku imbere yaho hari ikibuga abanyeshuri bakiniraho, hirya yaho hari umukobwa wambaye iby'umukara ari kureba muri terefone.

Umuhanda ni igikorwa remezo, kigomba kwitabwaho na buri wese, ni ingirakamaro ku buzima bw'abantutu bwa buri munsi, hanyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu, uyu ushashemo amapavei kugira ngo imvura nijya igwa utazajya unyerera.

Inzu yubatse neza, amatafari ahiye basizeho amarange, imbere yaho hari ivaze irimo indabyo, umugabo ari kwinjiramo, yambaye ingofero y'umukara, umupira na wo ni uko, hirya ye hari undi wambaye umuhondo.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari abandi, hari n'ameza ariho igitambaro cy'ubururu, umugore arahagaze bari kumwitegereza.

Inzu nziza ikomeye nini ifite amadirishya, irimo amarido, isakaje amategura, ni meza arakomera ntabwo umuyaga ushobora kuyaterura ngo inzu isenyuke.

Icyumba kirimo imashini ziri ku meza, intebe, ni byiza gukoresha ikoranabuhanga ukora ibintu byinshi mu gihe gitoya, washaka no kubisubiramo ukongera ukabireba warabibitse neza, bitarigeze biva mu murongo wabyo.

Umuhanda ni kimwe mu bikorwa remezo bituma iterambere ryihuta, ufite ikinyabiziga acamo, akihuta, akagera mu kazi amasaha atari yamurengana, akagatangira akakarangiza neza.

Icyumba cy'inzu cyicayemo abantu benshi abandi barahagaze, abasore, abakobwa, bambaye amataburiya yera, umwe yarisukishije afungiye umusatsi hejuru, ari kureba muri microscope.

Ikigo cy'amashuri gifite ibibuga bitandukanye abanyeshuri bakiniraho imyitozo ngororamubiri nka basike, volleyball, ni byiza kuko bituma umubiri ukora neza.

Icyumba cy'ishuri cyubatse neza mu muryango hahagaze abantu babiri, harimo ibikoresho bitandukanye: intebe, ameza, ikibaho, bimwe bikoze muri parasitike, ibindi bikozwe mu mbaho.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye abagore, abagabo bicaye mu cyumba kinini, harimo ibikoresho bya pulasitike, amasahani, ibikombe, ameza, intebe byose birasa neza ni ibara rikeye bahisemo.

Abana benshi bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo hari abambaye imyenda yera. Ni byiza iyo wubatse inzu yawe ushyiramo aho wakirira abantu benshi kuko n'ubukwe ushobora kubyakira, bakaguha amafaranga menshi.